Ndimo ndabona abo bantu, umwe niba yambaye umupira w'ubururu, wandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umweru...

Ndimo ndabona umugabo wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda wicaye ku meza iriho agacupa k'amazi.

Ndimo ndabona umugore wambaye ikote risa umweru n'umukara, wambaye impeta uhagaze imbere y'abantu.

Ndikubona umugabo wambaye amarinete, ufite ikaramu y’ubururu, yambaye ishati y’umweru, yambaye n'ikote ry’umukara.

Ndi kubona umugore usutse, wambaye amaherena, wambaye ikanzu y'umweru, wicaye ku meza iriho.

Ndimo ndabona abagabo babiri n'abagore babiri bicaye ku ntebe zisa umweru imbere yaho hari imeza isa umweruru.

Ndimo ndabona umuntu uhagaze imbere y'abaturage bambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara ishati y'ubururu bwijimye n'umweru wambaye n'impeta.

Ndimo ndabona umugabo wambaye ikote ry'umukara n'umupira w'umukara wicaye kumeza y'icyatsi iriho agacupa.

Ndabona abantu bicaye kumeza, umwe muri bo yambaye ikote ry'ubururu bwijimye, undi yambaye ishati y'umweru.

Ndimo ndabona umugabo wambaye ishati y'umweru wambaye amarinete wegeranye n'umugore wasutse wambaye ikanzu y'umukara.

Ndimo ndabona umugabo wambaye amarinete ikoti ry'ubururu bwijimye, na karuvati y'ubururu yijimye n'ishati y'ubururu bwerurutse, bicaye ku ntebe y'umukara.

Ndimo ndabona umugore wambaye ishati y'umutuku werurutse, wambaye ipantaro y'umukara, wegeranye n'umugabo wambaye.

Ndabona abantu bane bicaye ku meza, umwe muri bo yambaye ikote ry'ubururu bwijimye, umupira w'umweru n'isaha.

Ndikubona umugore usutse, wambaye umupira w'umukara, wambaye ikanzu y'umweru, uhagaze hejuru y'abantu.

Ndimo ndabona umugore wambaye umupira w'ubururu bwerurutse, wambaye isaha, wambaye n'ipantaro y'umukara unasutse.

Ndimo ndabona umuryango wanditseho irembo, bisa nk'aho ari inzu ikorerwamo irembo. Irembo ni serivisi abaturage babasha kwishyuriraho mituweli.

Ndimo ndabonakobwa wambaye umupira w'umweruru, wambaye amaherena ku gutwi uri gukoresha mudasobwa.

Ndikubona amapoto abiri afite insinga z'umukara n' ibyatsi n' ibiti n' ikirere n'amatara yo ku muhanda .

Ndimo ndabona igipangu gisa umweru kirimo ibiti by'icyatsi kiriho uruhande ruriho ipoto ririho nsinga z'umukara.

Ndimo ndabona ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga kuruhande rwaho hateye igiti munsi y'iryo poto hubatseho amazu harimo ifite ibara ry'icyatsi.

Ndi kubona abantu batatu bambaye ikanzu z'umweru bafite imashini imbere yabo mashini kandi ni igikorwa cy'ikoranabuhanga wareberaho ibintu byose ushaka.

Ndi kubona umugore wambaye amaherena, wambaye ishati y'umweru wambaye ijipo y'umukara n'umweru.

Ndabona imbangukiragutabara, imbere yayo hariho abantu harimo uwambaye ishati y'umweru, harimo uwambaye ipantaro y'umukara, uwambaye n'ishati y'ubururu.

Ndimo ndabona imfungwa y'u Rwanda yambaye agapfukamunwa k'umweru, yambaye imyenda isa iroza, afite ikayi mu ntoki y'ubururu.

Ndimo ndabona umugabo uhagaze wambaye ikote ry'umukara ku ruhande rwe hariho undi mugabo wambaye ikoti ry'umukara, ku ruhande rwiwe hari mugore wambaye ikoti ry'umukara.

Wari uzi ko ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba, bakwizeza kuzagufasha, kubona ubutabera mu nkiko? Birinde ubutabera ntibugurwa.

Ndimo ndabona umugore wambaye amarinete y'umukara, ufite umusatsi w'umukara wambaye amaherena wambaye n'ikanzu.

Ndimo ndabona umugore wambaye amaherena, wambaye agapfukamunwa gasa ubururu, bambaye ikanzu y'umukara irimo umupira w'umweru.

Mo ndabona imodoka yumukara numweru, kuruhande rwimodoka hariho ibyuma byubururu biriho ikigega cyumukara.

Ndi kubona umugabo wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda wambaye ingofero wambaye umupira w'ubururu bwijimye.

Ndikubona umugabo wambaye ikote ry'umukara, wambaye ipantaro y'umukara, wambaye ishati y'umweru, wicaye.

Ndimo ndabona umugabo wambaye ingofero y'umutuku ishati y'umweru ikote ry'umukara ikayi mu ntoki ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Ndimo ndabona umuyobozi mukuru w'u Rwanda bita Kagame Paul, wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Ndimo ndabona umugore wambaye ikote ry'umukara, ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru, ku ruhande rwe hariho umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ndimo ndabona umuhanda uririmo imodoka y'umweru irimo umugabo wambaye umupira w'umuhondo, n'ingofero mu mutwe ifite ibara ry'icyatsi umuhondo n'umutuku.

Ndimo ndabona mu muhanda urimo imodoka ifite ibara ry'umweru, ifite ibara n'iry'ubururu.

Ndimo ndabona umuhanda urimo abantumomugore ufite indobo y'umweru harimo ibisheke barimo n'imodoka y'ubururu.

Ndikubona umuhanda urimo igare ritwawe n'umuntu utwaye umufuka urimo n'imodoka y'umweruru.

Ndimo ndabona umuhanda urimo imodoka ifite ibara ry'ubururu bwerurutse n'ibara ry'umweru impande y'umuhanda hateye ibiti.

Ndimo ndabona imodoka y'umweru ifite ibara ry'umuhondo ifite n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku kuruhande rwaho hari indi modoka y'umweru.

Ndi kubona imodoka ifite ibara ry'umweru n'umukara, inyuma yaho hari kugenda umuntu wambaye ipantaro y'ubururu, n'ikote ry'umukara.

Ndibona umuhanda uri mu imodoka ifite ibara ry'umweru, n'ibara ry'ubururu irimo inka zifite ibara ry'umukara n'iry'umweru.

Ndi kubona umuhanda harimo imodoka, harimo umuntu wambaye ishati y'umutuku n'uwambaye ishati y'umweru.

Ndimo ndabona umuhanda urimo imodoka kuruhande rwaho hariho ibiti by'imikindo no kumpande zaho hariho indabyo z'umutuku.

Ndimo ndabona icyapa kiriho ikimenyetso cy’uko aho hantu hemerewe kwambukira, inyuma yaho har’igiti gifite amababi y’icyatsi.

Ndikubona umuhanda uriho icyapa cyerekana ko ukuri kujya mu mukarere ka Muhanga uteye ibiti kuhande.

Ndi kubona umuhanda wegeranye n'inzu, inzu ari inzu bacururizamo imiti ikiza indwara zitandukanye, n'ahantu bacururiza amata.

Ndimo ndabona umuhanda kuruhande rwawo hari icyapa kigaragaza icyana cyahariwe inganda cy' i kigari aho giherereye inyuma yaho hari imodoka.

Ndimo ndabona umuhanda urimo abantu babiri kuruhande rw'umuhanda hari igipangu cy'umukara kiriho amatafari ahiye kitewe n'igiti.

Ndimo ndabona amazu afite amabati y'ibara ry'umutuku, ry'ikigina inyuma yaho riteyeho ibiti n'ibitoki.

Ndimo ndabona mu muhanda uri muto urimo imodoka ifite ibara ry'umutuku, kuruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Ndimo ndabona umuhanda uririmo imodoka y'ubururu, imodoka y'umweru na moto, ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Ndimo ndabona umuhanda urimo imodoka y'umukara, ku ruhande rwayo hariho amapoto arimo n'amatara yo ku muhanda ariho n'ibiti.

Ndimo ndabona umuhanda urimo moto, urimo imodoka ebyiri z'imikarara ariyo kuruhande amapoto y'amatara yo ku muhanda.

Ndimo ndabona umuhanda urimo igare ritwawe n'umuyonzi wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara ningofero y'umutuku.

Ndimo ndabona umuhanda uriho moto itwawe n'umuntu wambaye ikote ry'umukara. Inyuma yiwe hariho indi moto ku muhanda w'abagenzi hariho undi muntu.

Ndimo ndabona umuhanda urimo igare urimo moto urimo imodoka y'umukara urimo abagenzi.